Umugabo uhagarariye inama wicaye, ari kuvuga ibijyanye na gahunda yo kunoza imitangire ya serivisi, imbere ye hari ameza ariho telefoni mikoro ndetse n'amacupa y'amazi.

Icyumba kiri kuberamo inama abagabo n'abagore bicaye imbere yabo hari ameza ariho ibitabo abandi bafite mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi yo kunywa, hari umugabo uhagaze uri gutanga igitekerezo wambaye ishati y'umweru.

Abantu bari mu ihema bicaye bari mu nama, na none hari abandi bahagaze iruhande rw'ihema bari kumwe n'abashinzwe umutekano mo hagati hari umugabo uri kuvuga ijambo ufite mikoro mu ntoki.

Abagabo n'abagore bari mu nama bicaye mu buryo bakoze ishusho y'uruziga, hagati yabo hari ameza ateretseho impapuro, ibitabo, amazi yo kunywa ndetse n'ibindi.

Uru ni urubuga rwifashishwa mu gutanga inguzanyo, ubona hariho umusore mwiza ufite amaso y'umweru, umupira wererana ndetse, n'ishati irimo uturongo, urabona ko ari guseka, n'ipantaro ijya gusa ubururu.

Umugabo wambaye ikoti ari imbere, arimo atanga ijambo, afite igikoresho cy'indangururamajwi mu ntoki, ni ukuvuga mikoro. Imbere ye hari abantu bicaye bamuteze amatwi.

Abantu bari mu nama bafite amoko atandukanye, harimo abazungu n'abirabura, abari imbere haragaragara ku ruhande rw'iburyo abazungu babiri, ibumoso umugabo n'umugore b'abirabura. Imbere yabo hari ameza nanone hari amacupa y'amazi, ndetse hari amakayi yo kwandikamo.

Abagabo bari mu nama y'inteko rusange y'abafatanyabikorwa by'akarere ka gasabo, bari mu nama, batatu bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza ateretse amacupa y'amazi, imbere yabo hari umugabo uhagaze uri kuvuga ijambo ufite igikoresho ndangururamajwi mu ntoki ze.

Abagabo n'abagore bicaye bari mu nama, bambaye imipira isa y'ibara ry'ubururu, abagore batatu bicaye imbere ni abisiramu.

Inama yahuje abantu batandukanye. Imbere hicaye abagabo batatu n'abagore babiri. Iruhande rwabo hari amazi yo kunywa ndetse n'umutobe ukozwe mu ironji.

Abagore batanu bari imbere bahagarariye inama y'umunsi mukuru w'abagore, uri ku ruhande rw'ibumuso arahagaze arimo aravuga ijambo, inyuma ye hari icyapa kerekana ingingo nyamukuru itumye bari aho ngaho.

Icyumba gisize irangi ry'umweru hari kuberamo inama, abagabo n'abagore bicaye ku ntebe zisa z'umukara, bakoze ishusho y'uruziga, hagati yabo hari ameza ateretseho ibintu bitandukanye, ibitabo, imashini, uducupa tw'amazi, ishakoshi ndetse n'amakaramu.

Inama y'urubyiruko bambaye imipira isa iri mu ibara ry'ubururu. Imbere yabo hari abagore babiri n'umugabo bahicaye bose hamwe barahagaze bari gukoma amashyi.

Abagabo cumi na batandatu, bahagaze ku murongo, barindwi bari imbere, abandi icyenda bari inyuma yabo. Bose bari imbere y'inyubako y'amagorofa, bari kwifotoza. Bambaye imyenda yo mu bwoko butandukanye.

Umugabo uhagaze i ruhande rwe hari umugabo wicaye ku ntebe imbere ye hari ameza ariho impapuro n'icupa ry'amazi, nanone hari n'abandi bantu bicaye.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye, bari mu nama. Baricaye, bateze amatwi. Harimo abagabo, bagore, abasore, n'abakobwa. Na none, hari ibinyabiziga biri inyuma yabo.

Abagabo bicaye, bateraniye hamwe. Umwe muri bo ari kuvuga ijambo. Afite igikoresho ndangururamajwi, bita mikoro, imbere ye. Ameza ateretse imbere ye ariho telefone.

Abagabo n'abagore bari mu nama, bicaye ku ntebe zisa z'umukara, barimo barungurana ibitekerezo, hagati yabo hari ameza iteretseho ibintu bitandukanye, harimo mudasobwa, amazi yo kunywa, ibitabo n'ibindi.

Abayobozi bicaye bari munama, imbere yabo hari ameza buri wese afite igitabo ndetse n'imashini n'amazi yo kunywa.

Abantu b'ingeri zitandukanye bari ahantu hamwe hari abahagaze n'abicaye, abicaye ni babiri babiri iruhande rwabo hari amazi n'ikinyobwa, bateze amatwi ibivugwa.

Abagabo n'abagore bari mu nama, abagabo babiri bicaye imbere bari kuganira uri ku ruhande rw'iburyo afite uruhara yambaye amarinete, uri ku ruhande rw'ibumoso afite agasatsi gake yambaye isaha ku maboko, imbere yabo hari ameza ateretseho ibirahuri by'amazi n'ibitabo.

Abaturage bakoraniye hamwe, bari mu nama, hari abicaye mu mahema n'abicaye mu byatsi. Hari umugore urimo hagati, uri kuvuga ijambo, ndetse imbere ye hari umuntu uri kumufotora.

Abantu bari mu matsinda atandukanye bari kuganira, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku, ameza ari hagati ya buri tsinda afite igitambaro k'ibara ry'umuhondo.

Umugore wicaye ufite imisatsi miremire, yambaye amadarubindi ndetse yambaye ikote, imbere ye hari ibinyobwa ndetse hari n'abandi bantu benshi bamukikije.

Abantu bicaye bari mu nama. Imbere yabo hari ameza. Nanone imbere yabo, hari uducupa tw'amazi turi ku meza. Mo hagati hari ururabyo.

Abasore bicaye. Bambaye imipira y'ubururu ishushanyijeho idarapo ry'igihugu. Imbere yabo hari ameza, na none hari uducupa tw'amazi.

Ahangaha hari abantu batatu bari kugenda b'uruhu rwera hakaba hari kandi n'ibinyabiziga bitatu bipari ahangaha kimwe gifite ibara ry'ikijuju ndetse n'igiti kiri iruhande rwaho hakaba hari n'ikindi kinyabiziga gifite ibara ry'umutuku ibingibi biparitse mu muhanda w'amabuye hirya hari inzu ndetse n'ibiti byiza cyane.

Mu gihe inama irangiye, abayobozi bahagaze imbere bose hamwe bari kwifotoza. Bambaye imyenda itandukanye, ndetse bafite ibara ry'uruhu rutandukanye.

Abagabo n'abagore bicaye bari mu nama, imbere yabo hari umugabo uri kuvuga ijambo bose bamuhanze amaso bamuteze amatwi inzu barimo ifite imitako y'amabara y'idarapo ry'igihugu.

Abantu b'ingeri zitandukanye, bicaye hamwe mu ihema. Imbere hari abagore bane bicaye, imbere y'abo hari ameza ari mu ibara ry'ubururu, riteretseho telefone n'icupa ry'amazi.

Umugore uhagaze wambaye amarinete ufite igikoresho k' indangururamajwi mu ntoki bita micro, arimo avuga ijambo imbere ye hari abantu bamuteze amatwi.

Abantu bari mu nama, abagore babiri bicaye imbere uri ku ruhande rw'ibumoso yambaye amarinete ndetse yambaye n'ikote ry'umukara n'umweru, uri ku ruhande rw'iburyo yambaye imyenda y'abayisiramu ndetse na we yambaye amarinete, imbere yabo hari igiyiko, impapuro, telefone, ikirahure cy'amata.

Abagabo n'abagore bicaye bari mu nama, imbere yabo hari ameza bari gukoresha, na none hari umugore uhagaze imbere yabo uri gutanga igitekerezo.

Inama y'abayobozi imbere hicaye abagabo babiri n'abagore batatu, imbere yabo hari igikoresho ndangururamajwi ni ukuvuga mikoro, barimo baraganira ibijyanye n'ubukerarugendo mu Rwanda.

Abagore batatu bari mu nama: babiri ni abirabura, umwe uri ku ruhande rw'ibumoso wambaye ikote ry'umutuku ni umuzungu; imbere yabo hari ameza n'amakayi bari kwandikaho, nanone hari uducupa tw'amazi.

Inzu mberabyombi ikorerwamo inama, hakaba harimo haraberamo inama y'abantu benshi batandukanye, bicaye ku ntebe z'imikara bazengurutse, n'abandi bicaye ku ntebe z'imikara inyuma yabo hari imeza imwe ifite ibara ry'umutuku kuri ayo meza harihoho amatelefone n'amamikoro yo kuvugiramo.

Abantu bicaye mu ntebe bambaye imipira y'ubururu yanditseho inyuma n'ibara ry'umweru, bicaye ku ntebe zisa umuhondo bateze amatwi umugabo uri imbere wambaye ishati y'umweru ufite mikoro iri gutanga ijambo.

Inzu iri kuberamo inama. Hari abantu bane bicaye imbere bambaye agapfukamunwa. Hari na za kamera ziri kubafotora.

Umugore wambaye amarinete arimo kwandika, imbere ye hari icupa ry'amazi iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati ufite n'umusatsi ku mutwe nanone hari abandi bantu bari inyuma yabo.

Abantu b'ingeri zitandukanye harimo abamama abapapa n'abantu bageze mu za bukuru bicaye bari mu nama imbere yabo hari umuyobozi uri kubaganiriza.

Abagabo n'abagore bari mu nama bicaye mu matsinda atandukanye, ndetse bakoze ishusho y'uruziga hagati yabo harimo ameza ariho ibintu bitandukanye harimo; amazi yo kunywa ibikombe by'ibirahure ndetse n'ibitabo.

Abagabo bicaye ku ntebe z'umukara bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga imbere yabo ku meza harimo abari kureba mu imashini undi wambaye amarinete arimo arakurikira.

Inyubako irimo abagabo n'abagore bari mu nama, bicaye ku ntebe z'umuhondo imbere hari abagore batatu n'umugabo umwe bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi yo kunywa ndetse n'ibitabo.

Aba ni abayobozi bari mu nama. Hari umwe wambaye imyenda y'igipolisi ufite n'ibendera ryabo ku kuboko kw'ibumoso, afite n'ibirango by'umupolisi mukuru, n'abandi bagabo batatu umwe muri bo afite mudasobwa.

Umugabo uri imbere uri gutanga ikiganiro, afite mikoro ye, iburyo bwe hari umugabo n'umugore bateze amatwi bicaye, inyuma yabo hari inyandiko igaragaza impamvu itumye baraho.

Urubyiruko rwicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku n'umuhondo ruteze amatwi umugabo uhagaze uri hagati yabo ari kuvuga ijambo.

Umugabo uhagaze wambaye ikote n'ishati y'umweru ufite indangururamajwi mu ntoki arimo kuvuga nanone imbere ye hari abantu.

Abaturage bateraniye hamwe. Abaturage bicaye iruhande rwabo hari ibikoresho ndangururamajwi, mo hagati mu kibuga hari abakinnyi barimo barakina imikino.

Abagabo bicaye, bari mu nama. Uri ku ntebe y'imbere ari kuvuga igitekerezo. Afite igikoresho ndangururamajwi mu ntoki ze. Iruhande rwe hicaye abagabo wambaye umupira w'umuhondo, uteze amatwi.

Abagabo n'abagore bicaye mu ihema bari mu nama imbere hicaye abagabo babiri hagati yabo hicaye umugore wambaye amarinete bose barakurikiye, imbere yabo hari ameza ateretseho terefoni.

Abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo n'abagore, bicaye mu nzu isize irange ry'umuhondo ifite amadirishya y'ubururu, bari mu nama.

Abagabo n'abagore bari mu nama, bateze amatwi umugore uri imbere uri kuvuga ijambo, ufite igikoresho cy'indangururamajwi mu ntoki ze, inyuma ye handitseho amagambo avuga ingingo nyamukuru y'inama, ndetse ashushanyijeho amashusho y'idabopo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Inyandiko igaragaza uko umuntu yakiyandikisha muri rura, harimo gushyiramo amazina ye, ahabarizwa, ndetse na numero za telefoni ze.

Ikinyamakuru kigaragaza uko umuntu yakwiyandikisha mu kizamini gitwara ibyo gutwara imodoka cyangwa moto abifashishijwemo n''irembo.

Umuhanda urimo igikamyo cy'umweru ku ruhande hari guturika umugabo wambaye ishati y'ubururu bwijimye n'ipantaro yumukara, inyuma ye hari imodoka y'umukara, ku ruhande hari umuhanda w'amapave uri kunyuramo abanyamaguru, hariho ni'icyapa, hepfo hari umugore wambaye ikanzu y'ubururu irimo n'uturabyo twumweru akaba ari gusohoka mu modoka yari iparitse.

Abantu bicaye bari mu nama, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku. Hagati yabo hari ameza ateretseho mudasobwa bari gukoresha, nanone hari ibikombe ndetse n'icupa ry'amazi.

Ikinyamakuru cyamamaza kiriho umugabo uri kwerekana uburyo bwo kwiyandikisha mu kizamini cyo gutwara. Ari kwerekana ibisabwa kugira ngo umuntu yemererwe. Ari kubyerekana akoresheje telefoni.

Ikigo cyo mu Rwanda aradibi abafatanyabikorwa bacyo aho gisangwa, nanone amakuru avuye kuri aradibi.

Inyubako ikorerwamo serivise zitandukanye. Iriho icyapa cyanditseho Irembo ndetse n'ibikorwa bakora. Impande y'iyo nzu hari umugabo uri kwinjiramo.

Icyapa kiriho amafoto atatu magufi y'abagabo babiri uwitwa KABUGA n 'uwitwa BIZIMANA bashakishwa kubera icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.

Abantu bicaye bari gukora ibikorwa bitandukanye hari ufite kuteri mu matwi, undi ari muri telefone, ye undi ari mu gikoresho k'ikoranabuhanga ni ukuvuga imashini naho abandi bari kuganira.

Inzu ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, ifite ibyapa ku rukuta bigaragaza ibintu bikorerwamo, harimo gutanga ama inite serivisi za banki, ndetse hakaba harimo irembo.

Amazu akorerwamo ibintu bitandukanye, harimo bijyanye n'irembo, ndetse n'amabanke yo mugihugu. Nanone abaturage niho babonera ubufasha mubijyanye no kwishyura imisoro.

Amakuru yo mu irembo agaragaza intambwe ziterwa kugira ngo umuntu yiyandikishe mu gukora ikizamini gitanga uruhushya, nanone kikagaragaza ibisabwa kugira ngo uwo muntu yiyandikishe.

Umuntu ukora igikorwa cyo gufasha abaturage, akababikuriza amafaranga, akababikiriza mafaranga. Arimo aratanga ubufasha ku muturage.

Ikinyamakuru cyamamaza, cyerekana uburyo bwo gukoresha irembo, umuntu atiriwe akora urugendo, agakoresha ikoranabuhanga. Hariho umugabo ufite mikoro mu ntoki, wicaye ku ntebe, uri kwerekana uburyo umuntu yakoresha, akajya ku irembo akoresheje ikoranabuhanga.

Abagabo n'abagore baricaye, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, buri wese afite mudasobwa imbere ye, inyuma hari abandi bagore bahagaze imbere y'akabati.

Abantu bicaye mu matsinda atandukanye, bari kuganira, mo hagati yabo hari ameza na none amatara arabamurikiye.

Ipoto ihagaze ifite ikindi cyuma gitambitseho hejuru gifite insinga eshatu zifasheho, zijyana amashanyarazi ahantu hatandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, nanone abantu baragenda, ku ruhande rw'umuhanda hari amazu atandukanye, harimo n'amaduka.

Ipoto iri mu biti itanga amashanyarazi ku baturage, ifite insinga zijyana amashanyarazi mu bice bitandukanye ndetse n'insinga zitanga amashanyarazi ku baturage bari hafi aho.

Inzu isize irange ry'umuhondo, iruhande rwayo hari ipoto ifite insiga zitandukanye ijyana amashanyarazi ahantu hatandukanye.

Umunara uri mu gace k'icyaro, ufite insinga zitandukanye bohereza amashanyarazi ku baturage bo mu bice bitandukanye by'igihugu.

Ipoto ifite insinga zijyana amashanyarazi mu bice bitandukanye by'igihugu. Hanyuma izi nsinga zitanga amashanyarazi ku baturage.

Inzu igeretse. Imbere yayo hari icyapa. Nanone hari ipoto ifite insinga zijyana amashanyarazi ku baturage.

Inyubako zitandukanye, zifite inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'umweru, nanone hari ipoto ijyana amashanyarazi, iri mu busitani.

Umugore ukora ibijyanye n'amashanyarazi ahagaze ku rwego, yambaye imyenda y'akazi n'ingofero afite igikoresho gituma abaturage babona umuriro.

Ivuriro, inyubako ifasha abantu badwaye kugira ngo bamererwe neza, iruhande rw'iyo nyubako hari imodoka yitwa imbangukiragutabara, ifasha umurwayi kugera ku bitaro bikuru kugira ngo ahabwe ubufasha bw'inyongera mu gihe afite ikibazo gikomeye.

Umuhanda munini urimo imodoka ziri kugenda ku ruhande rw'umuhanda hari icyapa, nanone hepfo gato y'umuhanda hari amazu abiri manini.

Ivuriro, ahantu abarwayi bicara mu gihe bategereje umuganga, hari intebe zitondetse neza ku morongo.

Ikigo cya leta gitanga ubufasha ku baturage. Ku ibaraza hari intebe zo kwicaramo. Hirya hari umugabo uhagaze uri kwaka ubufasha. Hari izindi nyubako ziri hafi aho ngaho muri icyo kigo.

Icyumba cy'ubwiherero. Urugi rushushanyijeho umuntu umeze nk'uwicaye ku kintu. Bigaragaza ko icyo cyumba ari icy'ubwiherero.

Imodoka yitwa imbangukiragutabara, itwara umurwayi byihutirwa kugira ngo imugeze kwa muganga, mu gihe ari mu marembera.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, hari abantu bari iruhande rwayo bari kugenda abasohoka abinjira nanone hari ibyapa biri mu ibara ry'ubururu byerekana ibikorerwamo, hari ikindi cyapa kiri mu ibara ry'ubururu gifite ikirango kiri mu ibara ry'umweru cyerekana ko hasi hari indi nyubako.

Inyubako iri hafi y'umuhanda irembo ryayo hari ubusitani ndetse n'ibiti by'imikindo, hepfo y'umuhanda hari imodoka ndetse n'abantu.

Inyubako za leta zikorerwamo ibikorwa bitandukanye, zifite idarapo ry'igihugu hejuru. Ku marembo y'izo nyubako haparitse imodoka. Na none hari abantu bari kugenda.

Ivuriro. Inyubako ikorerwamo ibikorwa byo kubaga abantu bafite indwara z'amaso. Hari ibyapa bifite ibara ry'ubururu, byandikishije amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Umuhanda nyabagendwa mu nkengero z'umuhanda hari inyubako zitandukanye, nanone hari aho umuhanda uba ufunze bisaba ko hari umuntu uba uhagaze kuruhsnde kugira ngo ahite afungura ku ruhande rwo hino hari umugore uri kuri terefone.

Abaturage baricaye bategereje umuganga imbere hari umuganga wambaye imyenda y'umweru uri kuvugana n'umugabo ufite igikapu mu mugongo.

Umugabo wirabura wambaye amarinete ishati yumweru n'ikote ry'umukara wicaye mu nyubako y'ubuyobozi, inyuma ye hari abandi bantu, ku muryango w'iyo nzu hari umuyobozi ushinzwe umutekano uhahagaze.

Igazeti igaragaza ingingo zitandukanye z'ibyaha bishobora gukorwa ndetse n'ibihano bifatirwa umuntu wakoze bene ibyo byaha.

Abagabo bane bicaye ku ntebe ndetse n'umuyobozi w'idini uhagaze imbere yabo. Wambaye ikanzu y'umukara n'umweru, arimo arabaganiriza. Bose bari mu nzu isize irange ry'umweru.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku n'ingofero ifite ibara ry'umukara n'umuhondo, uri kurahira afashe ku idarapo ry'igihugu cy'u rwanda imbere ye hari igikoresho ndangururamajwi cyitwa mikoro.

Ikoraniro ryahuje abantu batandukanye, ku ntebe z'imbere hicaye abagabo b'imfungwa bambaye imyenda isa abicaye imbere, imbere yabo hari ameza.

Abantu bari mu nama, abaturage bicaye mu bwatsi, abayobozi bari imbere yabo bicaye ku ntebe kandi imbere yabo hari ameza. Hagati y'abayobozi n'abaturage hahagaze umugabo.

Abacamanza icumi bahagaze imbere y'inyubako, bari kwifotoza. Abagore batanu, n'abagabo batanu. Bambaye imyenda y'umukara, irimo akabara k'umweru.

Igazeti iriho ibintu byihariye yo ku ya makunyabiri na kabiri z'ukwambere bibiri na makunyabiri na gatutu. Iriho ingingo ebyiri zigomba gukurikizwa. Byanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda, icyongereza n'igifaransa.

Amarembo ariho icyapa avuga ibijyanye n'ibikorerwa aho, ahantu handitseho igororero rya Rwamagana aho bajyana abantu bafite imico itari myiza, kugira ngo bagororwe bagire imico myiza.

Umugabo wirabura ufite ubwanwa yambaye ikanzu iririmo ibara ry'umutuku n'umuhondo mo imbere yambaye ishati ndetse na karuvati.

Umugabo w'umusenateri wambaye ikanzu y'umutuku ndetse n'ingofero y'umukara irimo n'irindi bara ry'umweru ufite amaso manini.

Umugore ufite imisatsi miremire wirabura ufite ikinigi mu ijosi, yambaye ikote ry'ibara ry'umutuku ndetse harimo n'ibara ry'umukara.

Abagabo n'abagore bari mu nama bamwe baricaye abandi barahagaze, umwe mu bicaye w'umugore amanitse urutoki kugira ngo bamuhe ijambo atange igitekerezo.

Igazeti irimo ingingo zitandukanye iri mu ndimi eshatu harimo, ikinyarwanda, icyongereza n'igifaransa. Igaragaza ingingo zitandukanye zigomba kugenderwaho haba mu buyobozi ndetse n'abaturage.

Ibaruwa yanditswe n'abadepite iri mu ndimi eshatu: Ikinyarwanda, Icyongereza, n'Igifaransa yandikiwe perezida polo Kagame, igaragaza itegekonshinga rishya batoye.

Umugore urimo kurahira azamuye akaboko yambaye amadarubindi n'ingofero, imbere ye hari igikoresho gifata amajwi kuruhande rwe hari idarapo ry'igihugu.

Inyubako irimo abacamanza bari mu nama, bicaye bareba imbere, imbere yabo hari abandi bacamanza bicaye mu matsinda bakoze ishusho y'uruzeru, hagati yabo hari ameza ateretseho ibitabo n'amazi yo kunywa.

Umusenateri wirabura, wambaye amarinete, yambaye ikanzu y'umutuku, irimo ibara ry'umweru, n'ingofero y'umukara, irimo amabara y'umuhondo.

Umugabo uhagaze imbere uri kuvuga ijambo afite igikoresho ndangururamajwi mu ntoki ze bita mikoro.

Umugabo wambaye ishati ndetse na marinete. Afashwe n'abapolisi babiri bari iruhande rwe. Umwe ibumoso undi iburyo.

Umugore wirabura ufite imisatsi mike, wambaye amarinete ndetse n'amaherena maremare ku matwi, yambaye ikote ry'umutuku rifite n'ibara ry'umukara ndetse n'urunigi mu ijosi.

Abantu b'ingeri zitandukanye bicaye hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore abagabo babiri bicaye ku ntebe z'imbere barimo baracirwa urubanza.

Umusaza munini, ubyibushye, wirabura. Ufite uruhara. Wambaye umupira w'umukara. Inyuma ye hari intebe z'umutuku.

Umugabo wicaye, wambaye amarinete, ikote, ishati y'umweru na karuvati arimo atanga ijambo, iruhande rwe hari abandi bantu bamuteze amatwi.

Umugabo wirabura, yambaye ikote ry'umutuku, na none yambaye ishati mo mbere mu ikote ndetse na karuvati.

Umucamanza wirabura uhagaze, yambaye ikanzu y'umutuku ndetse irimo n'ibara ry'umukara n'umweru, yambaye ishati y'umweru ndetse na karavate.

Ikinyamakuru kivuga ibijyanye n'uko hari abagabo bashakishwa, kubera jenoside yo mu Rwanda, kiragaragaza ko bitakiri ngombwa kubashakisha, kubera udukubo tubiri turi muri aya mafoto.

Abagabo babiri bambaye amadarubindi. Nanone bambaye amakoti na karuvati imbere ya bo hari ameza.

Abacamanza bicaye imbere yabo hari ameza bambaye amakanzu y'umutuku n'ingofero imbere yabo hariri umugabo wambaye na we ikanzu y'umutuku n'ingofero uri kurahira afashe ku idarapo.

Inzu iri kuberamo inama y'abayobozi bicaye ku ntebe kandi imbere yabo hari hari umugabo uhagaze imbere uri kuvuga ijambo.

Abapolisi bahagaze bambaye imyenda y'akazi isa, inkweto zisa n'ingofero zisa, bose bafite imbunda, iruhande rwabo hari ibinyabiziga, na none hari ibiti.

Abagabo bashinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bitwa abapolisi, bahagaze ku murongo bambaye imyenda y'akazi isa ndetse bafite imbunda mu ntoki n'ibikapu mu mugongo.

Icupa riteretse ahantu rikoreshwa mu kuzimya umuriro, mu gihe habaye inkongi y'umuriro. Rifite ibara ry'umutuku.

Inyubako y'amagorogfa abiri. Ku nkuta ziyo nyubako hariho icyapa cyanditseho zigama Muhima buranshi. Ku marembo y'iyo nyubako haparitse imodoka ya polisi y'u Rwanda.

Imodoka iparitse ifite ibara ry'umweru, ikoreshwa mu gufasha abantu mu gihe byihutirwa, yitwa Imbangukiragutabara, ifite amatara yaka amabara atandukanye hejuru.

Hafi ya gare iparikamo ibinyabiziga, hari umupolisi uri mu muhanda, uri kuyobora ibinyabiziga aho bigomba kunyura, muri kaburimbo.

Mu kigo cy'amashuri hari abanyeshuri bambaye imyenda y'ishuri, hagati hari umupolisi ndetse iruhande rwe hari umunyeshuri ufite kizimyamoto, ni ukuvuga igikoresho gikoreshwa mu kuzimya umuriro, hirya yabo hari umuriro uri kwaka bacanye, uwo munyeshuri ari kuzimya umuriro akoresheje kizimyamoto.

Abapolisi benshi bari mu nama bafite imbunda. Iruhande rwabo hari ibinyabiziga ibiti amapoto y'amashanyarazi, hagati mu basirikare hari umusirikare uri kuvuga ijambo wambaye amarinete.

Ikirango cy'igihugu polisi y'u Rwanda y'igihugu akarere ka Nyarugenge sitasiyo ya Rwezamenyo nomero za telefoni zeru karindwi umunani umunani gatatu rimwe rimwe rimwe gatandatu gatandatu cyangwa zeru karindwi umunani umunani gatatu rimwe rimwe rimwe, karindwi gatandatu gatatu.

Inyubako nziza isize irange ry'ubururu n'umweru, ku irembo ry'iyo nyubako hari ubusitani bwiza ndetse n'indabo, iruhande rw'ubusitani hari imodoka ebyiri ziparitse.

Ikoraniro ryahuje abagabo, abagore, abasore n'abakobwa n'abandi bantu batandukanye. Bari kwiyamira bafite ibyapa mu ntoki byanditseho efuperi.

Abagabo babiri, n'abagore babiri, bahagaze imbere. Umwe mu bagabo, wambaye ishati y'umweru, arimo aravugira mu gikoresho ndangururamajwi.

Amakoraniro yahuje abantu benshi imbere hari umukuru w'igihugu uri gutanga ikiganiro, iruhande rwe hari idarapo ku rundi ruhande hari umugore uhagaze, inyuma y'idarapo hagaze umugabo wambaye ikanzu y'umutuku ndetse n'ingofero.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki bita mikoro, yambaye isaha ndetse na karuvati. Ku mpande ze hari ibinyabiziga, ndetse n'umuntu.

Umugore wirabura wicaye uri guseka wambaye amaherena y'umweru ufite urunigi mu ijosi ndetse wambaye umwenda w'umweru urimo n'ibara ry'umukara. Imbere ye hari telefone nini.

Ifoto y'umugabo wirabura ufite imvi k'umutwe nkeya wambaye amarinete mumaso, nanone yambaye ikote ishati y'umweru ndetse na karuvate.

Mu cyumba cy'uruganiriro, hicaye umugore wambaye amarinete ufite imisatsi miremire, ikanzu, ndetse yambaye inkweto ndende.

Iyi ni imodoka nini igizwe n'amabara y'umweru, amapine y'umukara iri mu muhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, hirya gatoya ibiti birebire ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahakoresha bose.

Abagabo bari kwinjira bajya mu matora. Abagabo batatu imbere yabo hari umugore wambaye amarinete. Hejuru hamanitse icyapa kivuga ibijyanye n'amatora.

Abaturage bari mu nama baricaye. Hagati hari umugabo uhagaze no kuvuga ijambo, imbere ya mikoro.

Abantu b'ingeri zitandukanye bahagaze ku murongo. Nanone imbere yabo hari inyubako ifite amadirishya y'ubururu. Nanone ku ruhande rwabo hari igikoresho kijugunywamo imyanda.

Ikirango cy'ishyaka cy'inkotanyi mu Rwanda gifite amabara atandukanye harimo; umweru, umukara, ubururu, umuhondo, icyatsi n'umutuku.

Imodoka isa nk'ivu iri mu muhanda iri kugenda ifite amapine y'umukara, ndetse iruhande rw'iyo modoka hari umumotari uhetse umuntu ku ipikipiki wambaye ijire y'umuhondo ndetse n'ubururu wambaye n'ingoferoy'umukara ndetse n'umutuku.

Abagabo n'abagore biyubashye bari mu nama bicaye ku ntebe ndetse imbere yabo hari ameza ariho ibitabo, telefone, mikoro ndetse n'amazi yo kunywa, umugore umwe ari gushyira urupapuro mu gaseke gafitwe n'umugabo uri gutega kugira ngo ashyireho.

Abantu b'ingeri zitandukanye abana, abasore, abagabo bari gusakuza, bafite ibyapa bishushanyijeho umuntu bifuza gutora ndetse byanditseho tora.

Icyapa kivuga ibijyanye n'amatora, iruhande rwacyo hari insina, na none hari abantu barimo kugenda, hafi yaho hari ibiti.

Abantu bari kwifotoza, batatu baricaye abandi barindwi bahagaze inyuma yabo, abagabo babiri baricaye n'umudamu umwe, abagore bane barahagaze n'abagabo batatu.

Umuyobozi w'umugore wicaye ku ntebe ari kuvuga ijambo imbere ye hari ibikoresho ndangururamajwi afite ikayi mu ntoki iruhande rwe hari idarapo ry'igihugu cye.

Abayobozi bicaye bari mu nama, imbere yabo bafite mudasobwa umugabo wicaye imbere ari gutanga igitekerezo mu nama.

Umunsi mukuru wabaye hari ihema ryanditseho, ibijyanye n'uwo munsi mukuru ko ari ugutora ishyaka riharanira iterambere rirambye hari abagore bari imbere y'iryo hema bambaye imikenyero isa neza neza n'icyo cyapa imikenyero y'ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo.

Umuhanda nyabagendwa, urimo ibyapa n'abantu, imodoka n'ibikamyo, ndetse kumpande z'umuhanda hari amazu y'amagorofa ndetse n'ibiti.

Ibinyabiziga biparitse byo mu bwoko bwa tagisi bitwara abagenzi bibavana mu gace kamwe bibajyana mu kandi, byose biri hamwe nta bagenzi bifite.

Ikinyabiziga cyo mu muhanda kirimo abagenzi gifite ibara ry'ubururu, umweru n'umuhondo kibavana mu gace kamwe kibajyana mu kandi iruhande rwacyo hari umusore urikugenda.

Abagabo babiri barimo baraganira. Umwe yambaye isarubeti y'ubururu, afite igikoresho mu ntoki gikorwa mu biti, gitwarwaho imitwaro, undi afite agafuka k'umweru mu ntoki. Iruhande rwaho, hari imodoka iri kugenda.

Ku ruhande rw'iburyo rw'umuhanda munini, hari aho abatwara ibinyabiziga byo mu bwoko bw'ipikipiki bahagarara. Harimo abafite ibinyabiziga byo mu bwoko butandukanye, imbere yabo hari inyubako igeretse y'amagorofa.

Inama yahuje abantu batandukanye, imbere hahagaze umugabo uri kuvuga ijambo ufite igikoresho ndangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hari icyapa cyerekana ingingo nyamukuru y'iyo nama n'icyo igamije.

Umuhanda nyabagendwa urimo abantu, nanone harimo ibinyabiziga n'ukuvuga imodoka, moto n'ibinyabiziga biheka imizigo, iruhande rw'umuhanda hari inyubako ihari nanone kumuhanda n'ukuvuga ku mpera z'umuhanda hari amatara.

Inyubako y'amagorofa yo kwiyakiriramo na none itanga amacumbi yo kuraramo, hari ahantu h'uruganiriro hari amahema hejuru ya hari ubusitani impande zose.

Mu gace ku mugi harimo umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka na moto iheka imizigo igira amapine atatu.

Agace gakorerwamo ibikorwa bitandukanye. Aho ibinyabiziga bihagarara bitwara abagenzi, na none ku mpande z'aho hari abacuruzi bacururiza ibintu bitandukanye.

Aho imodoka zitwara abagenzi ziparika. Iruhande rw'ikinyabiziga gitwara abagenzi, hari akazu kicarwamo n'abagenzi igihe bari kuruhuka, cyangwa bategereje ikintu runaka.

Umuhanda nyabagendwa bagendwamo n'ikinyabiziga gitwara abagenzi, kibavana mu gace kamwe kibajyana mu kandi, iruhande rw'ibumoso bw'umuhanda hari ikiraro ndetse n'ahantu haca amazi, iruhande rw'iburyo hari ibiti.

Ahantu haparitse ibinyabiziga bitandukanye harimo moto n'imodoka iruhande rwabyo abantu baragenda none ku nkengero hari inyubako ihari.

Imodoka nini itwara abagenzi yitwa shirumuteto, iri kugenda m'umuhanda wa kaburimbo ifite ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umuhondo muke, iruhande rwayo k'uruhande rw'ibumoso hari inyubako nini y'amagorofa.

Umuhanda nyabagendwa, urimo ibinyabizga, abagabo babiri batwaye ikinyabiziga gikozwe mu giti, gitwara imitwaro, iruhande rw'umuhanda hari amazu atandukanye.

Umuhanda munini urimo kugendwamo n'abantu babiri, umugabo ndetse n'umugore. Nanone hari kugendwamo n'imodoka nini itwara imizigo. Iruhande rw'umuhanda hari ibiti byo mu bwoko butandukanye.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka, nanone harimo abantu batwaye amagare ahetse imizigo. Mu mpande z'umuhanda hari ibiti.

Umujyi urimo ibikorwa bitandukanye, umuhanda urimo ibinyabiziga bigenda, abantu bagenda, abapolisi bashinzwe umutekano. Iruhande rw'umuhanda n'amazu ageretse y'amagorofa.

Agace karimo imihanda myinshi ya kaburimbo, ijya mu byerekezo bitandukanye. Hari aho ibinyabiziga binyura bizengurutse, nanone hari ibirango byereka abagenzi ko bagomba kwambuka.

Ikinyabiziga kinini giparitse, gitwara abagenzi, gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru. Gifite ibirahure ndetse n'ibara ry'umukara hejuru yabyo nta bagenzi bakirimo, iruhande rwacyo hari umugabo.

Umuhanda munini nyabagendwa w'umukara, uragendwamo na moto ebyiri, ku mpande z'umuhanda hari ubusitani, ndetse n'ibiti byo mu bwoko butandukanye.

Umuhanda nyabagendwa uri kugendwamo n'ikinyabiziga gitwara imizigo, gihetse umugabo wicaye inyuma yacyo wambaye ipantaro y'umutuku n'umupira w'umuhondo, ku ruhande rw'igikamyo hari moto iri kugenda.

Umuhanda munini, uri kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye. Moto zihetse abantu n'izidahetse abantu, imodoka, ikinyabiziga cya rukururana, ndetse n'indi moto itwaye imitwaro. Iruhande rw'umuhanda hari ibiti, ku rundi ruhande hari amazu.

Umuhanda nyabagendwa uragendwamo n'ikinyabiziga cya moto gitwaye umugenzi, impande z'umuhanda hari ubusitani bwiza n'indabo nanone hari ibiti byo mu bwoko butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugerwamo n'ibinyabiziga bitandukanye umugabo utwaye undi ku igare, igikamyo gitwara imizigo gifite amabara y'umweru n'imodoka ya tagisi fite ibara ry'umutuku.

Umuhanda nyabagendwa uri kugendwamo n'ikinyabiziga giheka imizigo, gifite ibara ry'umutuku ndetse n'ikindi kinyabiziga kiri imbere yacyo aricyo igare.

Umuhanda uri kugendwamo na moto n'igikamyo; mu ruhande rw'ibumoso hari kugenda umudamu. Mu ruhande rw'iburyo hari ibiti.

Umuhanda ugendwamo ibinyabiziga moto n'imodoka. Ku mpande z'umuhanda haragenda abantu. Nanone hari ibiti, ndetse n'amazu ku mpande z'umuhanda.

Umuhanda munini wa kaburimbo, uragendwamo n'ikinyabiziga gitwara abagenzi kinini, gifite ibara ry'umuhondo n'umweru, na none haragendwamo na moto itwaye umugenzi, na none harimo igicucucu cy'umuntu

Ikinyabiziga giheka imitwaro kitwa igikamyo, gihetse imizigo. Kiri kwinjira mumuhanda munini wa kaburimbo.

Uru ni urubuga rwashyizweho n'ikigo cya leta gishinzwe imisoro n'amahoro, aho ushobora kugaragariza impano yawe ugatsindira agera kuri miliyoni y'amanyarwanda, dore ibihangano icumi byahize ibindi muri iri rushanwa ni ibi bikurikira.

Umuhanda uparitsemo ibinyabiziga, harimo ikinyabiziga giheka imizigo, cy'ibara ry'umweru n'umutuku, inyuma yacyo, hari ikindi kinyabiziga cyitwa igare, na cyo giparitse.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto, ukikijwe n'amazu ashaje, hafi yawo hari inyubako y'amagorofa itaruzura ikiri kubakwa.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibikamyo bibiri bitwaye imizigo ibumoso bwabyo hari igiti iburyo bw'ibikamyo hari umuntu uhahagaze.

Uruganda rw'amata, utubuni turi mu gatajeri rw'ibara ry'umweru turimo amata, igikoresho babikamo amata kiri iruhande rwabyo.

Umuhanda uri kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, ku ruhande rw'iburyo hari icyapa kiri mu ishusho y'uruziga, gifite ibara ry'umutuku n'umweru, hashushanyijemo p iri mu ibara ry'umukara, haciyemo akarongo k'umutuku. Icyapa cyerekana ko aho ngaho nta kinyabiziga na kimwe kemerewe kuhahagarara.

Umuhanda nyabagendwa haragendwamo n'ibinyabiziga imodoka zitwara abagenzi ku nkengero z'umuhanda hari abagenzi bari kugenda.

Umugabo utwaye ikinyabiziga cya rukururana muri kaburimbo. Iruhande rwicyo kinyabiziga hari umugabo utwaye ipine. Imbere ye hari umugabo wikoreye umuzigo.

Inyubako irimo abantu, ikikijwe n'ibiti bitandukanye na none hari imitako imeze nk'utubindi hejuru ku mabati, ku mpande z'iyo nzu hari amazu ageretse y'amagorofa.

Uruganda rw'amata, utubuni turi mu gatajeri rw'ibara ry'umweru turimo amata, igikoresho babikamo amata kiri iruhande rwabyo.

Agahanda k'amabuye karanyuramo abantu batandukanye, ku ruhande rw'ibumoso hicaye abagabo babiri na none ruguru yabo hari akazu gakorerwamo ibikorwa by'uburuzi mu nkengero z'uwo muhanda hari amazu y'amagorofa ageretse akorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Ikibuga kinini kirimo ubusitani bwiza bufite ibara ry'icyatsi na none iruhande rw'icyo kibuga hari amazu atandukanye ndetse n'ibiti byo mu bwoko butandukanye.

Icyapa gishyirwa ku muhanda gifite ibara ry'umuhondo, gishushanyijemo ikirango cy'ibara ry'umukara, cyerekana ko uwo muhanda hari indi mihanda iwushamikiyeho.

Icyapa kiba mu mpande z'imihanda kiburira abatwaye ibinyabiziga, kiri mu ibara ry'umuhondo, gishushanyijemo ikintu gifite ibara ry'umukara, kibereka ko imbere gato hari ahantu hari ibibuye bimanuka ko bagomba kwitonda.

Icyapa kiyobora kiri mu ibara ry'ubururu. Gishushanyijemo ikirango kiri mu ibara ry'umweru. Gikoreshwa mu mihanda kiyobora ibinyabiziga.

Icyapa kiba kiri iruhande rw'umuhanda kibirira abatwara ibinyabiziga. Gifite ibara ry'umutuku n'umweru gikoze ishusho ya mpande eshatu.

Icyapa kiburira gikoreshwa mu muhanda, gifite ibara ry'umutuku ndetse n'uburu, hagati hashushanyije mo, igishushanyo cy'amabara y'umweru, ndetse n'ibara ry'umutuku riciyemo mo hagati.

Ibyapa bikoreshwa mu muhanda bifite ishusho y'uruziga bifite ibara ry'umutuku n'umweru, harimo ikirango cyo gukata kiri mu ibara ry'umukara haciyemo akarongo kari mu ibara ry'umutuku ryerekana ko imodoka cyangwa ikindi kinyabiziga kitemerewe gukata gisubira inyuma cyangwa gikata ku ruhande.

Icyapa cyo mu muhanda gishushanyijeho imodoka y'umukara iri mu ibara ry'umweru inyuma y'iryo bara hashushanyijeho ibara ry'ubururu.

Icyapa gishyirwa mu mpande z'umuhanda, gifite ibara ry'umutuku n'umweru, kirimo igishushanyo gifite ibara ry'umukara, icyo cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, kiburira abatwaye ibinyabiziga.

Icyapa gishyirwa kumuhanda gifite ibara ry'umutuku n'umuhondo, gishushanyijwemo n'igishushanyo gifite ibara ry'umukara.

Icyapa kiri iruhange rw'umuhanda, kiri mu ibara ry'ubururi, kirimo ibirango bishushanyishije ibara ry'umweru, kiburira imodoka, kiyereka ko imbere ari ukuzenguruka, ari byo bita muri rompuwe.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda gifite ishusho y'uruziga, ibara ry'umutuku hagati ari umweru, harimo umubare makumyabiri uri mw'ibara ry'umukara. Kiburira abatwar ibinyabiziga ko aho bageze batagomba kurenza umuvuduko wa makumyabiri.

Icyapa kiri ku mpande z'umuhanda, kiburira abatwara ibinyabiziga, kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru, kirimo ikirango gifite ishusho y'uruziga, kiri mu ibara ry'umukara, cyerekana ko imbere gato ari ukuzenguruka.

Umuhanda wa kaburimbo iruhande rw'ibumoso, hari umugabo uri kugenda. I ruhande rw'iburyo hari ubusitani n'ibiti, na none harimo ibyapa bitatu byerekana icyerekezo ndetse n'agace.

Icyapa gikoreshwa mu mihanda gifasha abatwara ibinyabiziga, gifite ishusho y'uruziga, gifite ibara ry'umutuku hagati ni ubururu mu ibara ry'ubururu haciyemo imirongo ibiri y ibara ry'umutuku.

Muri gare haparikwa ibinyabiziga, bisi zizana abantu zikanabatwara haparitsemo imodoka ifite amabara y'umweru n'ubururu ikaba ari imodoka nini igendamo n'abantu benshi cyane.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda. Gifite ibara ry'umuhondo gishushanyijemo ikirango, gifite ibara ry'umukara.

icyapa gikoreshwa m'umuhanda kiburira abatwara ibinyabiziga cya mande eshatu gishushanyijemo ibirango byo muri feruje, cyereka abatwara ibinyabiziga ko imbere gato ari muri feruje.

Umuhanda nyabagendwa uragendwamo ibinyabiziga bitandukanye, ku mpande z'umuhanda haragenda abantu. Mu nkengero z'umuhanda hari ubusitani buteyemo icyapa kirimo ibara ry'umutuku n'umweru bishushanyishije ibara ry'umukara ryerekana ko hafi aho hari ivuriro.

Icyapa kiburira kiba kiri kumpande z'umuhanda cyerekanako, ibinyabiziga harimo moto n'imodoka, bidakwiriye guhagagar' aho hantu kiri.

Icyapa kiburira gikoreshwa mu muhanda gifite ibara ry'umutuku n'umweru gishushanyijemo imodoka iri mu ibara ry'umukara n'akarongo ko mo hagati k'umutuku kerekana ko ibinyabiziga bitemewe kunyura aho hantu.

Umuhanda munini w'umukara wa kaburimbo, uragendwamo n'abantu. Munsi yumuhanda ku ruhande rw'iburyo hari icyapa kiri mu ibara ry'umukara n'umweru cyanditseho akarere ka karongi, munsi y'icyo cyapa kuruhande rwacyo hari ibiti n'imirima.

Inyubako igeretse y'amagorofa yubakishije amatafari ahiye ndetse afite n'ibaraza ku marembo hari ibiti biri mu busitani ndetse n'amarembo, iyo nyubako iri ruguru y'umuhanda w'igitaka.

Inzu isize irange ry'umweru. Ifite amatara hejuru. Na none ku irembo ryayo hari ibiti, ubusitani, n'amatara ari hasi.

Amazu atatu ageretse, yegeranye, afite igipangu cy'amatafari ahiye. Iruhande rw'igipangu hari ubusitani. Na none hari agahanda k'amabuye.

Inyubako zitandukanye, iri ku ruhande isize amarange y'umweru. I ruhande rw'ayo mazu hari ibyatsi, ndetse hari insinga y'amashanyarazi zijyana umiriro mu baturage

Inyubako nini igeretse gatandatu, isize amarangi y'umweru n'umutuku iri hagati y'amazu atandukanye, none hari ibyatsi iruhande rwayo ndetse n'ibiti.

Inyibako ikorerwamo iminsi mikuru iri ruguru y'umuhanda, inyuma y'urugo hari ibiti bitandukanye, nanone hari icyapa kibigaragaza kiri mu ibara ry'umutuku cyanditseho holiday inyubako ihereye i Remera.

Agasorori gakozwe muri purastike, amagi atatu hateretsemo akandi kantu byose biri ku meza, intebe, akabati.

Agace gateye imbere karimo amazu menshi yegeranye kandi agezweho, harimo ibiti byo mu bwoko butandukanye hakurya y'ako gace hari imisozi.

Inyubako nini y'amagorofa ya hoteri ifite ibyumba bitandukanye byo kuraramo, ifite icyapa hejuru kivuga ibyumba byo kubamo.

Agace k'inganda nyinshi ziri ahantu hamwe zikora ibikorwa bitandukanye. Izi nyubako ziratandukanye hari izubakishije amabati cyangwa amatafari ahiye.

Igice kirimo amazu menshi yegeranye cyane harimo ahafite amabati ashaje ndetse n'andi afite amabati adashaje, harimo amapoto ajyana amashanyarazi muri ayo mazu nanone iruhande ku ruhande rw'iburyo hari ibiti ndetse n'ibitoki.

Inyubako nziza isize amarangi y'umweru amadirishya asize irange ry'umukara iherereye i Kanombe ifite ibiti ku mpande zayo.

Imodoka iri kwinjira mu muhanda munini w'umukara wa kaburimbo, ivuye mu muhanda munini w'igitaka. Iruhande rw'iyo modoka ku ruhande rw'ibumoso hari inyubako ikorerwamo ibijyanye n'inzoga.

Agace karimo ibiti byo mu bwoko butandukanye. Iruhande rw'ibyo biti hicaye abantu babiri. Ako gace gaherereye muri parike ya Nyandungu.

Imodoka isa nk'ivu iri mu muhanda iri kugenda ifite amapine y'umukara, ndetse iruhande rw'iyo modoka hari umumotari uhetse umuntu ku ipikipiki wambaye ijire y'umuhondo ndetse n'ubururu wambaye n'ingoferoy'umukara ndetse n'umutuku.

Umuhanda nyabagendwa ugengwamo n'ibinyabiziga bitandukanye; moto n'imodoka, ruguru y'umuhanda ku ruhande rw'ibumoso hari inyubako nini y'amagorofa.

Inyubako nziza isize amarange y'umweru, aho bajya gusura inyoni ziri mubwoko butandukanye, iruhande rwiyo nyubako hari ubusitani ndetse n'ibiti biri mubwoko butandukanye.

Inzu y'ubucuruzi ifite icyapa inyuma kigaragaza imyenda ndetse n'ibindi bintu bicururizwamo, harimo inkweto z'abagabo, imipira n'amakositimu.

Inyubako nziza y'amagorofa, isize irange ry'umweru, ifite igipangu cyiza, iruhande rw'inzu hari ibiti.

Inzu isize irange ry' umweru nanone ifite amadirishya asize irange ry' umukara, ikikijwe n' igipangu cy' amatafari ahiye nanone iruhande rw' iyo nzu hari ibiti ndetse n' ibyatsi.

Umigi urimo inyubako zegeranye ndetse zubatse mu buryo butandukanye harimo izubakishije amabati, harimo iteye irange ry'umuhondo n'inzugi z'umukara ndetse n'ayandi mazu atandukanye.

Umuhanda nyabagendwa w'igitaka ukikijwe n'amazu ageretse na none ku mpande z'umuhanda hari ubusitani bwiza.

Ku ibaraza ry'inzu hakikijwe n'ibiti byo mu bwoko bw'inturusu n'imigano, hari umusekirite uhahagaze.

Umuhanda munini wa kaburimbo iruhande rwawo hari inyubako y'amagorofa, haruguru y'iyo nyubako hari iyindi nyubako. Ku mpande z'umuhanda hari amapoto ajyana amashanyarazi ku baturage batandukanye.

Umuhanda munini. Ku nkengero zawo hari abantu bicaye, barimo baraganira. Harimo abatwara moto, abaturage basanzwe, ndetse n'abatwara igare.

Umuhanda nyabagendwa w'igitaka hagendamo ikinyabiziga harimo imodoka n'amoto ku mpande haragenda abantu. Nanone ku mpande z'umuhanda haparitse imodoka ndetse hari n'inyubako.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo urimo ugendwamo n'imodoka na moto, impande z'umuhanda hari ibiti byo mu moko atandukanye.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo urimo kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto n'imodoka; nanone ku mpande z'umuhanda hari ibiti byinshi.

Imihanda ibiri itandukanye hagati yayo harimo ibiti ndetse n'ubusitani, haragendwamo imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye, hagati mu mihanda hashushanyijemo amabara agaragaza ahantu ho kwambukira.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga. Ku mpande z'imihanda hari ubusitani bwiza ndetse n'ibiti byo mu moko atandukanye. Nanone hari ibyapa ku muhanda bitandukanye.

Amasaha ya nijoro, amatara arika ku muhanda. Ibinyabiziga biri kugenda harimo imodoka, n'amagare mu mpande z'umuhanda hari ubusitani.

Imihanda minini ya kaburimbo ishushanyijemo ibirango bifite ibara ry'umweru byerekana icyerekezo, iranyurwamo n'ibinyabiziga moto n'amagare, iruhande rw'umuhanda hari ibiti.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ndetse n'igare, ku ruhande rw'umuhanda hari ibiti n'ubusitani, ku ruhande rw'ubusitani hari imodoka nini ya rukururana iba ifite amapine menshi.

Umuhanda munini wa kaburimbo, uragendwamo n'ikinyabiziga cya moto. Imbere yacyo mu muhanda, hashushanyijemo ibirango by'ibara ry'umweru, byerekana ko abanyamaguru ari ho banyura, agomba kugenda gahoro. Ku mpande z'umuhanda, hari ubusitani ndetse n'ibiti.

Agahanda k'amapave karimo karanyurwamo n'umugore, iruhande rwe hari ibiti byo mu moko atandukanye, nanone hari ubusitani bwiza.

Igice cyo mu mugi kirimo imihanda itandukanye inyuranamo. Haragendamo ibinyabiziga. Hagati y'iyo mihanda harimo ubusitani ndetse n'ibiti.

Ni mu masaha y'umugoroba. Umuhanda wa kaburimbo ugabanyijemo imihanda ibiri, ujya ibumoso n'ujya iburyo. Ku mpande z'umuhanda hari amatara amurikira ibinyabiziga n'abagenzi. Nanone hari ibiti biri mu mpande z'imihanda. Ndetse hari igice cyerekana ko umugenzi yemerewe kwambuka umuhanda.

Umuhanda munini wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo n'ikinyabiziga cya rukurura, i ruhande rw'umuhanda hari icyapa ndetse n'amatara, nanone ku mpande z'umuhanda hari ubusitani n'indabo ndetse n'ibiti.

Amazu yubatse ku buryo bw'ikoranabuhanga, aregeranye afite inzugi n'amadirishya by'ibyuma, ku gipangu hariho urugi rukomeye cyane, nta wapfa kwinjiramo uko yishakiye, kuko haba hafite umutekano.

Umuhanda nyabagendwa ukikijwe n'amatara ku mpande zaho, ndetse ku mpande z'umuhanda hari amazu atandukanye ndetse n'ibiti byo mu bwoko butandukanye, hakurya hari imisozi.

Imihanda minini nyabagendwa ya kaburimbo itandukanye iragendwamo n'ibinyabiziga moto n'imodoka, ku mpande z'imihanda hari ubusitanibyapa n'amazu.

Ikiraro kinini cyane gifite umuhanda hejuru n'undi wo hasi. Umuhanda wo hasi uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka na moto.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibimenyetso biyobora ibinyabiziga. Bishushanyishije ibara ry'umweru. Byerekana ikerekezo ikinyabiziga kinyuramo.

Ahantu hari habereye amatora abaturage bamwe bari kujya gutora abandi bari kuvayo ku marembo y'aho hantu hari habereye amatora hari hari banderore yanditseho repubulika y'u Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora, amatora y'abadepite ibihumbi bibiri na cumi n'umunani twitabire amatora duhitemo neza.

Umuhanda munini wa kaburimbo ugabanyijemo indi mihanda, ujya ibumoso, ujya iburyo n'ukomeza imbere. Ku mpande z'umuhanda hari amazu, ubusitani, ndetse n'abantu.

Umuhanda ukikijwa n'amazu nanone hari amapoto y'amashanyarazi ku mpande z'umuhanda hari ibiti ndese hakaba n'ibiraro.

Umuhanda munini wa kaburimbo uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka, ipikipiki n'amagare. Iruhande rw'umuhanda ku ruhande rw'iburyo hari inyubako igeretse y'amagorofa, nanone kurundi ruhande hari ibiti bitandukanye.